Amazu yubatse mu bitandukanye. Inzu ituzuye, amapoto, insinga z'amashanyarazi, imodoka, amatara yo ku muhanda, ibiti byo mu bwoko butandukanye, abantu ku kigega.